Iyi miti ni myiza cyane kuko yifashishwa mu kwica udusimba twatangiye kwataka imyaka, ndetse tukica n'udukoko twose twaje ku bimera.

Ifumbire ya yara ni nziza cyane, kuko uyishyira ku gihingwa kigakura neza gifite ubuziranenge, kandi yara ikoreshwa mugufasha igihingwa kugira ubuzima bwiza.

Iyi ni ifumbire mvaruganda, ubasha gukoresha mu bihingwa byawe bitandukanye, kugira ngo bigire ubuzima bwiza, ndetse bibashe gukura neza.

Uyu ni umuti ukoreshwa mu gufumbira ibihingwa, ndetse no gutera ibihingwa byacu, kugira ngo tubirinde indwara zitandukanye zituruka mu butaka.

Gutera umuti ni byiza cyane, kuko gutera umuti bifasha imyaka kuzamuka neza, ndetse bikaba byanakwica ubukoko buba buri kumunga amababi y'ibimera bityo ibimera bigakura neza.

Gutera umuti ni byiza cyane kuko bifasha nyir'umurima cyangwa umuhinzi kweza neza imyaka ye, kandi akabasha kurya neza agasagurira n'isoko.

Amafi ni inyama nziza cyane baroba mu kiyaga, barangiza bakayigura, bakayiteka. Iraryoha cyane kuko igira isosi nziza.

Ibiyaga ni byiza cyane ndetse n'imisozi myiza cyane n'ibidukikije. Hano hantu haragaragara neza kubera ikiyaga kirimo, ndetse n'ikirwa kiri hagati y'ikiyaga.

Ifi iraryoha cyane iyo uyitetse, cyangwa ikawushije nk'uku nguku ukayirya, wumva iryoshye kandi ni nziza ku buzima bwacu.

Isambaza ziraryoha cyane, ni zimwe mu bwoko bw'amafi ariko zo ziba ari ntoya cyane amafi yo ari manini. Isambaza uzikoramo isosi ukazirisha ubugari, biraryoha cYane.

Ifi ni nziza cyane, ifi n'inyama ziryoha cyane, iyo bayikuye mu kiyaga bagahita bayigutekera, wumva biryoshye.

Ibi ni ibiryo biryoshye cyane, biriho isambaza, ndetse n'ibitunguru, ndetse n'imboga, isambaza ziraryoha cyane, ziroga mu kiyaga kandi zigira intungamubiri.

Ifi iraryoha cyane, iyo itetse cyangwa ikawushije, ifi ni inyama nziza iryoha, kandi yifuzwa na buri muntu wese.

Ikiyaga ni cyiza cyane kuko gituma ahantu hagaragara neza cyane, kikaba cyakurura na ba mukerarugendo bakaza kureba icyo kiyaga ndetse natwe ubwacu.

Umucaca ni mwiza cyane, kuko uwicaraho uri kuruhuka no kota akazuba, ndetse ukaba wanashyiraho intama ikarisha.

Iri ni ishyamba ry'ibiti by'intusi, ibi biti ni byiza cyane kuko bidukururira umwuka mwiza, ndetse bikanakurura n'imvura bikaturinda izuba ryinshi.

Iyi ni beterave, beterave ni ikimera cyiza cyifashishwa mu kongera amaraso cyangwa no kuyungurura amaraso, beterave unayikoresha iyo uri guteka.

Igihaza ni cyiza cyane kuko n'ikiriribwa kiryoshe, kuko iyo ugitetse ukagitekana n'ibindi ubasha kurya neza indyo yuzuye cyane.

Uyu n'umurima munini utemo ibihaza ndetse hagati hashinzemo ipoto, ibihaza ni ikimera cyiza cyane kandi kiryoha cyane.

Ibi ni ibiti cyangwa ibidukikije birimo isipuri ndetse n'ibidariya ku ruhande, ibi bidukikije bidufasha mu kuturinda izuba ryinshi cyane ndetse no gukurura imvura.

Ibireti ni igihingwa cyiza cyane kimeze nk'uturabyo ku batakizi bagirango ngo ni uturabo, ibireti birasarurwa bakabyanika bikuma bikaba byavamo iyi miti tunywa ariyo bitaga ibinini.

Utunyoni ni twiza cyane, kuko utunyoni ni utunyamaswa dutuje tutagira amahane, inyoni igufasha kumenya ko bwakeye cyangwa bukije, bityo bikagufasha kubyuka kare.

Ibi bikenyeri byumiye mu murima, bakuyeho ibigori byumira mu murima urimo amashaza, amashaza araryoha cyane, iyo uyatekanye n'ibirayi.

Gutera insina ni byiza cyane, kuko iyo cyannye hazaho igitoki, igitoki tukakirya, cyangwa tukagitaramo imineke, cyangwa bakagikamamo umutobe.

Iyi ni insina izaho urutoki kandi ndetse, iruhande rwayo hari n'amateke ndetse n'urubingo, kandi urutoki ni rwiza kuko na rwo ni igihingwa cyiza ku baturage.

ibinyomoro ni byiza cyane kuko iyo ubihinze bikera ugasoroma, ukagurisha ubona amafaranga, ndetse ibinyomoro binongera amaraso ku bantu bafite ikibazo cy'amaraso makeya.

Uyu n'umurima uteyemo imyaka urimo n'ihene ndetse n'ibitari hirya yaho ndetse n'ibirunga bigize igihugu, uyu umurima urimo imyaka ariko usa nkaho ukoneshwa.

Uyu ni umurima uhinze, usa nkaho utemo nk'imyaka ndetse hirya y'aho hari ibiti ndetse n'undi murima uteyemo nawo imyaka.

Ibidukikije ni ingirakamaro ku buzima bwacu ndetse n'inyamaswa , kuko ibidukikije biturinda izuba ryinshi cyane bikaba byanakurura n'imvura bityo tukagira ubuzima bwiza.

Aya ni amatunda ari mu kabase, kandi amatunda ni meza kuko ni urubuto rwiza rukenerwa buri munsi, ku muturage ushoboye kuryigurira.

Voka ni nziza, ni urubuto rwiza cyane, rukenerwa ku ifunguro rya buri munsi, kandi voka ikaba itera apeti ndetse ikaba inakorwamo n'amavuta.

Igihaza ni cyiza cyane. Ni bimwe mu biryo biryoha cyane. Iyo ugitetse ,ukagitogosa, ugashiramo n'ibirayi, cyangwa ibijumba, maze ugashyiraho n'ibishyimbo ukarya.

Imiteja ni myiza cyane, ni imboga nziza cyane ziryoha, iyo uzitetse uzivanze n'ibindi cyangwa ukazikaranga zonyine, puwavuro na yo ni urubuga rwiza ukoresha mu gukaranga ibiryo byawe.

Izi ni imbuto nziza cyane, ibinyomoro, amaronji, umwembe ndetse na wotameloni, izi ni imbuto nziza kandi zifasha ku muntu mu gufasha umubiri kumera neza.

Iri ni ishyo ry'inka ririmo, inka zitandukanye harimo umukara, ndetse n'inka z'urujuju, hari n'umwana uzibereye nk'umushumba uri kumwe mwe nazo, ariko inka ziri mu kiraro cyazo.

Ingurube ni nziza cyane ,ingurube ni itungo rifite umusaruro mwiza, ingurube urayifata ukayigurisha bakaguha amafaranga menshi kandi atubutse, ukabasha kuba waguramo indi cyangwa ukagura ibyo ukeneye.

Ibi ni ibirayi biri ahantu hejuru ndetse hari n'umugabo uri kubitondeka neza kugirango bitangirika.

Uyu ni umurima munini urimo igihingwa bita ikigori. Ikigori ni cyiza kuko kiryoha cyane, kandi uragihungura, ukakibetesha ukakinywamo igikoma.

Amashu n'imboga nziza cyane kandi ziryoha, zigira n'umusaruro mwiza, iyo ubashije kweza ukaba wagurisha ubonamo amafaranga ahagije.

Iyi ni imyumbati bavuye gukura, dore iriho n'ibitaka, ndetse nibayikura ku giti cyayo, iruhande hari akajerekani, ndetse n'imeza ku ruhande.

Inyana ni nziza cyane, kuko iyo ikuze ivamo inka nini, ikavamo imbyeyi, bityo imbyeyi ikaba yaguha umukamo, ndetse ikaba yanabyara utundi tunyana, bityo ukiteza imbere.

Uyu ni umurima wi'ibishyimbo, urimo abagabo babiri baje gutambagira, ngo barebe uko ibishyimbo byabo byazanye imishogi, kandi barebe n'uko bimeze.

Guhinga ni byiza, iyo ufashe igihe ugahinga umurima wawe ugateramo imyaka yawe bigufasha kubona umusaruro, ndetse ugasagurira n'abandi badahinga.

Amateke bita amabwayisi araryoha cyane, ni yo mateke asa neza kandi aryoha akundwa na buri umwe wese, iyo wayatetse neza uyatekanye n'ibishyimbo.

Aya ni amatungo bita ihene, ihene nziza cyane z'umukara, ndetse n'izindi z'ikijuju, zose kandi ziri mu kiraro, zimwe ziri kurya izindi ziriryamiye.

Igihingwa cy'igitoki ni cyiza cyane, ibitoki biraryoha cyane iyo ubitetse ubitekanye n'ibindi, ibitoki urabitara bikavamo imineke cyangwa ukabitara bikavamo umutobe.

Aha ni muri girini hawuzi, mu nzu bakoreramo ubutubuzi bw'imbuto y'ibirayi, cyangwa imbuto y'imboga, hakoreshejwe ibikoresho byabugenewe kandi bigezweho.

Imboga ni nziza cyane, kuko zidufasha mu gutunga umubiri, izi mboga ziraryoha cyane iyo uzitetse zonyine cyangwa uzitekanye n'ibindi biryo, kuko izi mboga zifasha umubiri gukora neza.

Intoryi ni nziza cyane, kuko uzikoresha mu guteka ibiryo bifite intungamubiri, kandi intoryi zisimbura inyama ku bantu bazi agaciro kazo.

Uyu ni umuturage uri gusarura karoti, karoti ni imboga nziza ukoresha uri guteka ndetse no kuyirya ari mbisi, kuko ivura amaso ndetse ukanasagurira n'isoko.

Imboga za dodo ziraryoha cyane kuko imboga ni kimwe mu gihingwa gituma ugira ubuzima bwiza, ndetse kikaba ari ingirakamaro kuri buri wese wariye imboga.

Iki ni igihingwa cy'ibirayi, ndetse ibirayi ni byiza cyane kuko biryoha, kandi ni igihingwa gikungahaye, kandi ni igihingwa cyiza cyane gihora gihenze.

Ibi ni ibijumba bakuye babireka mu murima .Ibijumba ni mu biryo bitera imbaraga ,ndetse kandi ibijumba urabirya ,ukanasaguriraho n'isoko, bikagurwa n'abatarabihinze.

Karoti ni imboga nziza cyane ziryoha, kandi karoti ni n'umuti uvura amaso, karoti iyo uyifashe ukayikaranga, ukayitekana n'ibindi biryo biba biryoshye.

Amatunda ya marozi araryoha cyane, iyo yeze ahinduka umukara, n'amatunda abana barya, ndetse n'abantu bakuru araryoha cyane.

Ibirayi ni igihingwa cyiza cyane, kuko ibirayi ni indyo ushobora kurya icyumweru cyose, ntuyirambirwe kubera uburyohe bwabyo.

Imishwi y'inkoko iyo ikuze ivamo inkokokazi cyangwa isake, bityo inkokokazi igatera amagi, ukaba warya amagi cyangwa ikaba yaturagamo utundi dushwi.

Ibirayi ni ifunguro ryiza cyane rikunzwe na benshi, kandi rigezweho, bikunzwe guhingwa mu igihugu cyacu, mu ntara y'Amajyaruguru. Ibirayi biraryoha cyane.

Amateke ni meza cyane, araryoha cyane, amateke ni igihingwa gitera imbaraga kandi kiryoha, kigira n'abakunzi benshi.

Ibi ni ibigori kandi ibigori nibyiza cyane biraryoha cyane iyo ari bibisi cyangwa byumye ukabihungura, ukabitekamo ibyo bita impungure.

Amashyaza ni meza cyane, araryoha cyane, iyo uyatetse ukayarisha nk'ibirayi cyangwa ukayakaramo imboga ugasuka ku muceri ukabirya biba biryoshye cyane.

Dore bavuye mu muganda ngarukakwezi. Harimo n'ingabo z'igihugu zivuye kwifatanya n'abaturage mu gukora igikorwa cy'umuganda. Ndetse bafite n'amasuka basa nk'aho bishimiye igikorwa barimo.

Uru rubuto barwita indimu, indimu ni nziza kuko ari umuti ndetse hakaba no kuba ziryoha cyane, zikaba zivura inkorora ndetse n'ibindi.

Imyumbati ni igihingwa kiza kiryoha， kandi imyumbati urayifata，ukayisekura，ukayikoramo ubugari，kandi imyumbati ni myiza cyane， iraryoha cyane cyane，iyo uyitekanye n'ibishyimbo.

Insenda ni nziza cyane kuko zikoreshwa mu gutekamo akabanga, ndetse urusenda rutera apeti, iyo udafite apeti ukarya ku gasenda ugira apeti.

Aya ni amateke, amateke ni meza cyane ni igihingwa cyiza gitera imbaraga kandi gifite vitaminini, amateke araryoha cyane cyane iyo uyatetse ku bishyimbo watsimbye. Bidufasha kurya ibiryo bitera imbaraga bitarimo amavuta.

Ibijumba ni byiza cyane, kuko bitera imbaraga mu mubiri, kandi biraryoha cyane iyo ubitekanye n'ibishyimbo, ndetse n'amamininwa ukabirya.

Ibigori ni byiza cyane biraryoha ndetse iyo ubitetse, cyangwa ucyokeje ikigori ni igihingwa cyiza cyane kiryohera buri umwe wese.

Intoryi ni nziza cyane kuko ziraryoha cyane, iyo uzitekanye n'ibindi cyangwa uzikaranze n'ibibiringanya ni byiza cyane, ni imboga nziza cyane.

Izi ni imashini zabugenewe zifashishwa mu gucucira imyaka, hadakoreshejwe ibindi byuma byabugenewe bita ipombo, iri n'icucira rigezweho.

Ibitoki ni byiza cyane, biraryoha cyane, ibitoki urabifata ukabitara, bikavamo imineke, cyangwa bakabikama bikavamo umutobe uryohaga cyane.

Ibigori ni byiza cyane, iyo ubihinze ugashyiramo n'ifumbire mvaruganda, bikura neza kandi bitoshye cyane, bigakurana umuvumba mwiza.

Aba ni abahinzi bari guhinga bishimye cyane, bafashe amasuka ndetse bari no kubagara, kandi basa nk'aho banejejwe n'igikorwa barimo.

Gutera umuti ni byiza cyane kuko bituma imyaka ikura neza ,ndetse ikabasha no kurwanya mikorobe mu butaka, ndetse n'ubusimba buza burya amababi bukicwa n'umuti.

Imbuto ni nziza ku buzima bwa muntu kandi urubuto indimu ni nziza ikoreshwa ivura inkorora, ikoreshwa mu mavuta. Mbese indimu ni urubuto rwiza kandi rugezweho.

Imiteja ni imboga nziza ziryoha kandi zibereye ijisho, iyo uzitekanye n'ibindi cyangwa ukazikaranga zonyine ziraryoha cyane.

Ibijumba ni bimwe mu biryo bitera imbaraga. Ibijumba biraryoha cyane kuko byongera imbaraga mu mubiri, ndetse bikanatunga umubiri.

Avoka ni urubuto rwiza cyane. Rukunzwe gukoreshwa buri munsi ku ifunguro, kandi avoka banayikoramo amavuta yo kwisiga ndetse n'ayo kurya.

Avoka ni nziza cyane, ni urubuto rwiza rutuma umubiri umera neza, kandi avoka ni nziza ku ifunguro rya buri munsi kuko itera apeti.

Ubunyobwa ni bwiza cyane, iyo uburiye bumeze gutya cyangwa iyo babusekuye, ukabasha kubuteka mu biryo, uryoshya ibiryo kuko busimbura ibishyimbo.

Uyu ni umuhinzi uvuye mu murima, ufashe isuka ndetse akaba ari n' umurima uteyemo ibishyimbo ndetse n' inzu ye k' uruhande.

Imyumbati ni myiza cyane , iraryoha imyumbati urayifata ukayishira musekuro ugasekura ugakoramo n'ubugari ubugari ukaburisha agasosi ukumva biraryoshye.

Iz ni inyanya zikiri ibitushi zitari zera, inyanya ni nziza ni imboga zikungahaye kandi inyanya ziryosha ibiryo kandi zigemurwa no mu mahanga.

Ibinyomoro ni byiza cyane iyo bitewe bigaterwa n'umut,i bikura neza tukabasha kubirya cyangwa tukanagurishaho bityo ubuzima bugakomeza.

Ibinyomoro ni byiza cyane kuko bidufasha kongera amaraso mu mubiri ,ndetse bikaba na bimwe mu mbuto zikungahaye kandi zigezweho cyane.

Guhinga ni ingenzi kuko bifasha umuturage kwizigamira ku byo yahinze ntiyicwe n'inzara, kandi akaba yagaburira n'abatarahinze, agasagurira isoko.

ibijumba ni byiza cyane. Ni igihingwa cyiza cyane, kuko ibijumba biri mu bitera imbaraga ndetse byubaka n'umubiri. Ikijumba iyo ucyokeje kiryoha kurushaho.

Aba n'abaturage bari mu murima w'icyayi, bari gusoroma ndetse abandi bari kubarura bafite amakaramu, ndetse na makayi bari kwandika ibyo bari gukora.

Voka ni nziza iraryoha cyane. Voka ni urubuto rukenerwa ku ifunguro rya buri munsi, kandi voka itera peti, voka banayikoramo amavuta ndetse n'ibindi.

Ibigori ni byiza cyane, ni umusaruro mwiza ku bahinzi bahinga ibigori, ibigori urabihungura ukabisheshamo ifu y'igikoma, ifu y'umutsima mbese ibigori ni ingirakamaro.

Ibishyimbo biraryoha cyane. Iyo ubitetse ndetse kandi ibishyimbo ni ibiribwa bitabura ku mafunguro ya buri munsi, ku muntu ubifite. Ibishyimbo bisimbura inyama kandi bitera imbaraga, bikaba mu byubaka umubiri.

Iyi ni soya, soya ni nziza ni ikinyampeke cyiza cyane, kandi soya hifashishwa mu gushesha kugirango tunywe igikoma kiryoshye, kandi ikoreshwa no mu guteka icyo bita tofu

Iyi ni soya yanitswe, kandi soya ni nziza, ni ikinyampeke cyiza, gikoreshwa mu kubetesha, mu mvange z'ibinyampeke bitandukanye, kandi soya iraryoha, soya uranayibetesha ukayikoramo ibyo bita tofu.

Ibi ni ibigori bimanitse bashyize ku zuba kugira ngo byume bazabihungure, babe babibeteshamo umutsima cyangwa igikoma, cyangwa bakabiteka ari amahundo.

Ibi ni ibigori bisutse hasi ndetse ibindi bipakiye mu mufuka, ibigori ni byiza cyane kuko biduha igikoma ndetse tukanabishesha hakavamo n'umutsima.

Iyi ni igihingwa bita igihwagari, igihwagari ni cyiza cyane kuko gisoromwa kikajyanwa mu nganda bagakoramo amavuta yo kurya meza cyane.

Inyama ziraryoha cyane, kuko inyama ni kimwe mu ndyo yuzuye, ifasha umuntu mu kongera intungamubiri mu mubiri wiwe. Inyama rero ni ingirakamaro.

Iyi n' inka iri mu ruhongore, iri kumwe n'umutavu wayo, ndetse iyi nka yo irabyagiye, naho umutavu uri kurisha ubwatsi.

Intama ni nziza cyane, kuko intama ni itungo rigufi, rishobora kuguha umusaruro, kuko iyo ibyaye iguhesha kubona amafaranga menshi.

Iyi ni ingurube. Ingurube ni nziza ku bayoroye kuko zitanga amafaranga. Ingurube irimo kurya ibiryo byayo kandi ingurube barayibaga bakayikoramo akabenzi. Ingurube iraryoha kandi ndetse igira n'amafaranga atubutse.

Ingurube ni mu nyamaswa zifite amafaranga ndetse zororoka vuba, kandi zigira n'inyama ziryoshye cyane, ari ko bita akabenzi, akabenzi kaba karyoshye cyane.

Ihene ni nziza cyane, ni zimwe mu matungo meza cyane agezweho, kandi zikaba ari itungo rigufi buri muturage ashobora kugura agatunga, ihene ikaba yamugoboka mu gihe agize ibibazo.

Izi ni ingurube ziri mu kiraro cyazo, ndetse hari n'umugabo uri kuzigaburira, ingurube ni nziza kuko zigira umusaruro mwiza, ndetse zikagira n'amafaranga atubutse.

Ingurube ni nziza cyane kuko ni umutungo mwiza, ndetse ni inyamaswa umuntu umwe yakorora akaba yakwiteza imbere, kuko zigira umusaruro.

Iyi ni imishwi y'inkoko iri mu kazu k'ayo, ndetse ni imishwi myiza. Iyi barayorora igakura ikavamo inkokokazi nini cyangwa isake. Inkokokazi zikabasha gutera amagi.

Inkwavu ni nziza ni zimwe mu matungo magufi abantu borora mu ngo zabo. Inkwavu ni nziza cyane zigira n'inyama ziryoshye cyane.

Ingurube ni nziza cyane kuko n'ingurube ni inyamaswa zororoka vuba, kandi zibyara ku mezi make, kandi zikabyara ibyana byinshi zikaguha amafaranga.

Inkoko ni itungo rigufi kandi ryiza, inkoko itera amagi, ukaba warya igi ku munsi, ukagira ubuzima bwiza cyane ndetse inkoko iyo uyibaze ukanayirya iraryoha.

Inka ni nziza cyane kuko ziduha umukamo mwiza, ndetse zikanabyara zikororoka, ukaba wagurishamo imwe, ukaba wagura ikindi ukeneye.

Inka z'inyambo ni nziza cyane, zifite amahembe meza cyane, uri kuzireba abona zigaragara neza cyane, kandi ndetse zibyara n'abana, zikororoka, zikagira n'amata aryoshye.

Inka ni nziza cyane, kuko itungo ry'inka ridufasha kubona umukamo mwiza, ndetse tukaba twanywa amata tukirinda bwaki, cyangwa indwara zituruka mu mirire mibi.

Korora inka ni byiza, kuko inka ni inyamaswa nziza itanga umukamo ndetse n'ifumbire, kandi kumenya ko inka ifite ikibazo, ukaba wayizanira muganga wazo akazivura.

Amagi ni meza cyane ku buzima bwa muntu, iyo ufashe igi rimwe buri munsi, uba uriye intungamubiri cyane uba unganya n'uwariye inyama.

Aba ni abaveterineri bari gukingira imbwa, kugira ngo bayikuremo ubumara, ku buryo ishobora kuba yarya umuntu ntimutere ibisazi, cyangwa ngo imukomeretse bihagije.

Iyi nyoni ni nziza cyane kuko inyoni ni utunyamaswa twiza tudufasha kumenya ko bwakeye, iyo ari mu rukerera ku muntu udafite isaha akangurwa n'inyoni ziri kuririmba.

Inyoni ni nziza cyane, kuko n'utunyamaswa twiza tugaragarira abantu neza, bitewe n'amabara yatwo, ndetse inyoni zibasha gukangura abantu mu gitondo cya kare kare.

Akanuma ni akanyamaswa keza cyane gakurura ba mukerarugendo, ndetse kanagaragarira neza aba. Akanuma karaguguza kandi kagira n'amasoni.

Iyi nyoni ni nziza. Inyoni ni imwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo. Inyoni mu gitondo ziraririmba zikabasha gukangura bamwe mu baturage, kuko inyoni zivuga iyo bukeye.

Izi ni inyamaswa nziza cyane kandi zikurura ba mukerarugendo arizo bita ingagi, ingagi ziherereye mu majyaruguru y'igihugu mu karere ka Musanze, ingagi ni inyamaswa nziza ifite imiterere nk'iy'abantu.

Iyi ni inyamaswa bita intare y'ingore, intare akaba ari inyamaswa zimwe zikurura ba mukerarugendo, ndetse akaba ari nayo ntare ikunda gushaka umuhigo, ndetse no kwita ku muryango.

Inkura ni inyamaswa iboneka mu ishyamba, kandi inkura ni inyamaswa ikurura ba mukerarugendo, ndetse baba bafite amatsiko yo kuyireba, inkura iba ifite ihembe ku munwa wayo.

Iyi nyamaswa ni nziza cyane bayita isha, igaragara nk'ihene, ariko ni ihene y'ishyamba, ni nziza cyane, kuko iri mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo, ndetse ikaba n'inyamaswa igaragara neza ku bayireba.

Akanyamasyo ni akanyamaswa keza， gakurura ba mukerarugendo， kagenda buhoro， kandi gafite igikonosho kihishamo mugihe gahuye n'agisida，kandi kagenda gakeya， kandi ni akanyamaswa keza.

Inyoni ni nziza cyane kuko idufasha kumenya igihe tugezemo cyangwa amasaha turimo kuko iyo umuntu adafite isaha inyoni ni yo imukangura.

Iyi ni inyamaswa bita imvubu iri mu kiyaga . Imvubu ni inyamaswa ikurura ba mukerarugendo ndetse igendera ku butaka ndetse no gukunda kwibera mu mazi.

Ingurube ni nziza cyane ni inyamaswa igira amafaranga menshi, kandi ikunze kororwa n'abantu benshi, ingurube urayifata ukayijyana ku isoko, ukaba wayigurisha, bakaguha amafaranga, ukaba wagura nk'irindi tungo.